Abantu benshi iyo bahinze baba bizeye ko ibyo bahinze bizabagirira akamaro, niyo mpamvu inshuro nyinshi bajyamo bakabyitaho bateramo imiti ndetse bakanuhira, aho biri ngombwa kugira ngo umusaruro uziyongere.

Kugira ngo ibyo wahinze bibashe kuba byabaho neza, umuhinzi aba agomba kubyitaho ateramo umuti, umuti ukaba wakica udusimba bityo udusimba tugapfa hanyuma N'ibihingwa bigakura vuba vuba.

Kugira ngo igihingwa gikure biba bisaba gushyiraho ifumbire ihagije, niyo mpamvu umuntu ushyira ifumbire ihagije ku gihingwa atuma icyo gihingwa cyangwa se urwo rugemye yahinze rugira itoto.

Abahinzi bakwiriye kuba ari abantu bihangana cyane bagomba kumenya gutera amazi cyangwa se umuti mu myaka bahinze kugira ngo izuba cyangwa se udusimba bidakomeza kwangiza imyaka yahinze hanyuma agahomba.

Umuntu arimo aruhira imyaka yahinze cyangwa se akaba ayiteramo umuti kugira ngo azabone inyungu nyinshi mu gihe kiri imbere bitewe n'uko iyo umuntu yitaye ku byo yahinze, ashyiraho umuti uhagije bituma agira inyungu kandi akumva anyuzwe.

Abantu benshi iyo bahinze bishimira gusarura, ariko na none mu gihe umuntu yahinze aba agomba gutera umuti mu byo yahinze cyangwa se akabivomeramo amazi akabyuhira kugira ngo bikomeze kugubwa neza, bityo abone umusaruro uhagije.

Umuntu ushaka kugira ibintu ageraho mu bijyanye n'ubuhinzi, aba agomba gutera imiti akirinda ko ibyonyi byaza ku mbuto yahinze cyangwa se agakora uko ashoboye kose akirinda ko hajyaho udusimba, bityo agakomeza kungukirwa n'imirimo y'amaboko ye.

Abaturage hari ibintu byinshi bagenda bigezaho bibateza imbere kandi bibafitiye akamaro cyane harimo no kuba bagenda bita ku byo bahinze. Umuturage umwe arimo araganira n'undi wambaye ishati y'umweru undi yambaye agapira mu mabara y'umweru n'umukara ndetse n'umutuku.

Mu gihe umuntu yahinze imyaka aba agomba kuyitaho uko bishoboka kose, agashyiramo amazi ahagije kugira ngo iyo myaka iticwa n'izuba ikaba yakuma hanyuma agahomba amafaranga yashyizemo ntayagaruze.

Mu gihe umuntu yahinze amafi hari igihe kigera cyo gusarura ni kuvuga akajya kuroba amafi akabona amafaranga mu gihe yagurishije ayo mafi cyangwa se akagenda agateka akirira dore ko amafi aryoha cyane.

Abantu boroye amafi baba bagomba kuyitaho buri gihe, bakareba uko amerewe bagashyiramo ibyo arya kuko amafi aba mu mazi, na none kandi aba agomba kuba bafite amazi hafi yabo kuko udafite amazi ntiwayorora.

Abarobyi bakunda umurimo wabo, inshuro nyinshi iyo bafashe amafi menshi barishima. Ni abantu benshi batazi aho amafi ava, gusa hari amashusho agenda agaragara hirya no hino agaragaza abantu bavuye kuroba kandi ibyo bishobora gutuma umuntu utazi aho amafi ava ahamenya.

Abantu bafite amafi bagomba kuba batuye hafi y'amazi cyangwa se bafite ahantu hari amazi bashobora kororera ayo mafi bakaza bayasura inshuro nyinshi bakayitaho uko bikwiriye kugira ngo atange umusaruro uhagije.

Ubworozi bw'amafi ni ubworozi bukundwa n'abantu begereye amazi cyane, ubworozi bw'amafi buba busaba ko umuntu abukora ariko na none azi icyo ari gukora, kuko amafi nayo akenera ibyo kurya, kandi ibyo byo kurya umuntu ubitanga aba akwiriye kuba abisobanukiwe.

Amazi ni ubuzima kandi ashobora kwifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, bityo akaba yatuma ubuzima bukomeza bukomeza kugenda neza. Mu gihe amazi atemba atitaweho bishobora guteza indwara mu bantu bayakoresha.

Abantu boroye amafi bagomba kuyitaho buri munsi bakayasura uko bihagije ndetse bagashyiramo n'ibyo ayo mafi ashobora kurya kugira ngo akomeze kubaho neza bityo nabo biteze imbere.

Ahantu heza hari abantu babiri mu twatsi ndetse harimo n'amazi birashimishije kuyatembera, abo bantu barimo barafashanya kandi rwose birashimishije kubareba kuko barasa neza cyane nubwo bambaye imyenda ishaje.

Aborozi b'amafi bayororera ahantu hari amazi menshi kugira ngo ayo mafi abone uko akomeza kubaho kuko baramutse batayororeye aho hantu bakayashyira imusozi, ashobora gupfa bityo bikaba byateza igihombo uyoroye.

umudamu nawe ashobora gufata ingashya akajya mu bwato. Umadamu wambaye ikanzu ari mu bwato arimo aragashya arimo agenda hejuru y'amazi. Urabona ko yishimye kandi urabona ko ari ibintu amenyereye kuko nta bwoba.

Mu gihe umuntu yoroye amafi akora uko ashoboye kose agashyiramo ibyo arya kugira ngo amafi ye akomeze gutanga umusaruro, bityo abone ayo kurya ndetse asagurire n'amasoko abantu bamuha amafaranga yiteza imbere.

Abantu bakora ibijyanye n'ubworozi bw'amafi akenshi baba bazi no kuyabaga, baba bazi aho bagomba kurya nabo batagomba kurya ndetse n'uburyo bashobora gukuramo uduhwa tuba turimo kugira ngo tutabajomba mu gihe bayarya.

Ahantu bororera amafi hagomba kuba hameze neza hari amazi ahagije ndetse n'ibindi bikoresho bituma amafi akomeza kubaho, amafi aramutse atororewe mu mazi bishobora gutuma amafi ahita aapfa kuko akenshi amafi bizwi ko aba mu mazi.

Hano hari umwana uri hafi y'ibyuzi, ibi byuzi wakororemo amafi ukaba wabona umusaruro, ikindi kandi bino byuzi bitanga, bifata amazi hamwe na hamwe ahantu hatandukanye bikaba byarinda isuri.

Aborozi b'amafi bashimishwa no kubona bafite umusaruro umeze neza, kuko baba bizeye y'uko babonye icyo kurya, abantu bishimye bafite ifi mu ntoki zabo bigaragara ko rwose bashimishijwe no kubona umusaruro wabo.

Biragaragaza abagabo bari kuroba amafi mu kiyaga, ibi ngibi byagufasha, aka ni akazi kagutunga, kaguha amafaranga, uguteza imbere umuryango wawe ndetse n'Igihugu muri rusange, unga amafi nigirakamaro mu buzima bwa buri munsi.

Abantu bakora umwuga wo kuroba mugihe biyemeje kuroba, bagomba gufatikanya kugira ngo bacore amafi, iyo batabikoze gutyo bishobora kubagora akazi kabo kakaba kababana kenshi kandi bitari bikwiye.

Iyi foto iragaragaza umumama uri kwanika amafi yitwa isambaza, yambaye umupira w'umutuku urimo amabara y'umukara.

Ahantu heza hari amazi, ibiti ndetse n'inyubako uko bigaragara ikaba ikorerwamo ubuhinzi, iyo nyubako abahinzemo ubuhinzi, bityo aba ari ukugira ngo izuba ritica imyaka cyangwa se imbuto zahinzwemo.

Aborozi b'amafi na bo baba bakwiye kwitabwaho cyane cyane bagahabwa amahugurwa y'uburyo bajya bita ku mafi yabo. Umugabo arimo aragaragara ashaka gushyira ibinyampeke mu mazi kugira ngo amafi ye arusheho kubaho neza.

Umugabo uri kwerekana ikawa. Ikawa n'igihingwa cyiza cyera mu rwanda gitanga imbuto nziza uzihinze akaba yazigurisha akaba yabona amafaranga, akaba yatunga umuryango akanazamura iterambere ry'igihugu muri rusange.

Kugira ngo umuntu asarure ibyo yahinze biba bigomba kubyitondera, ariko nanone hari ibihingwa umuntu ahinga afite intego yo kugira ngo azasarura bigurishe adafite intego yo kubirya kuko bibanza kunyuzwa mu nganda bimwe muri byo ni nk'icyayi.

Umuntu urimo asarura ibyo yahinze, ibyo bihingwa akaba abisarura kugira ngo abigurishe kuko atabisarura kugira ngo abirye, impamvu ni uko bibanza kunyuzwa mu ruganda bigatunganywa.

Guhinga ingano biravuna cyane kandi bisaba ko abantu bazinga baba bafite imbaraga zihagije kuko iyo abantu bahinze ingano baba bagomba kuzashaka igihe cyo gusarura bityo bagashaka abakozi bakabashyiramo bakabafasha gusarura izo ngano.

Mu gihe umuntu yahinze abagomba kwita ku byo yahinze abigirira isuku akaba yakuramo ibimeze nabi ariko nanone aba agomba kwita cyane ku byo azagurisha kugira ngo azabigurishe abone amafaranga.

Iyi shusho iragaragaza ibiti by'ikawa. Handitsemo ijambo "Rwanda ESPRESSOCOFFEEGUIDE". Ni ikawa harimo izeze n'izitarera neza.

Abahinzi bahinga ibihingwa kugira ngo bazabyifashishe barya amafaranga kuko badashobora kubyitunganyiriza ngo babirye, ahubwo barabihinga kugira ngo igihe runaka bazabone amafaranga mu gihe babigurishije.

Umudamu wajyiye gusura ibyo yahinze kujyirango arebe aho bijyeze, ibyo bihingwa ni ikawa akaba yarabihinze kujyirango bizamuhe umusaruro mu gihe kiri imbere bityo abashe kwiteza imbere.

Hari umumama uri kwita ku myaka bigaragara ko ari kubagaramo ibyatsi yoherezamo n'amazi kugira ngo bibashe gukura neza.

Hano hari abantu bari gusarura ingano, ingano ni igihingwa cyera ku isi hose gitanga amafaranga wakiteza imbere mu buryo butandukanye.

Hari ibihingwa abantu bahinga kugira ngo bazabone amafaranga, ntibabihigire kubirya ahubwo bakabihinga kugira ngo igihe nikigera bazabigurishe hanyuma nabo babone amafaranga bashobora kwikenuza, bimwe muri ibyo bihingwa harimo ikawa.

Mu gihe umuntu yahinze icyaha aba agomba kucyitaho, cyane cyane mu gihe k'isarura abahinzi bahurira hamwe ari benshi bagasarura, hanyuma ibyo basaruye bakabijyana ku ruganda rukabitunganya hanyuma bakabona amafaranga.

Imiti y'amatungo ushobora kuyibona aho ari ho hose mu isoko, gusa umuntu aba agomba kuyicuruza ibanje kugenzurwa ko yujuje ubuziranenge, kuko itujuje ubuziranenge yakica amatungo.

Inkoko zishobora guhabwa umuti w'ifu mu gihe zirwaye indwara zitandukanye, harimo umuraramo ndetse n'inzoka. Iyo zihawe uwo muti zishobora gukira mu gihe zaba zirwaye, gusa nanone si ngombwa ko umucuruzi acuruza iyo miti agamije kuzigurisha abantu barwajije amatungo gusa.

Inyamaswa ziba zikeneye umuti kugira ngo nazo zibashe kuba zabaho neza, niyo mpamvu mu gihe inkoko yawe irwaye ushobora kwegera umucuruzi ucuruza imiti y'amatongo akaguhereza umuti hanyuma ukagenda ukayiha ikayita ikira.

Inyamaswa ziba zikwiye guhabwa imiti, iyo miti ikaba ifasha izo nyamaswa gukomeza kugira ubuzima bwiza kimwe n'abantu, wowe ushobora kugenda ukagura iyo miti ahantu hatandukanye bayicuruza ugaha itungo ryawe rikamera neza rwose rikumva riguwe neza.

Hari imiti igenewe inyamaswa by'umwihariko izororerwa mu rugo, imwe muri iyo miti ishobora gupfunyikwa mu bintu bitandukanye harimo ibishashi, iyo miti akenshi ikunze kuba ari ifu.

Amatungo nayo akenera imiti yo kunywa mu gihe arwaye kuko itungo iyo rirwaye ntabwo umwanzuro ari ukuribwa, ahubwo ushobora kujya mu iduka ugashakamo umuti uhuje n'uburwayi bwaryo, ugaha itungo ryawe umuti rigakira.

Hari amacupa ashobora kubikwamo imiti y'amatungo kandi amacupa ushobora kuyabona ahantu hose bacuruza imiti y'amatungo bityo yayifashisha aha amatungo ye, hanyuma agakira vuba.

Abantu benshi bacuruza imiti y'amatungo baba bizeye neza ko iyo miti ishobora kuvura amatungo, kuko baba baranyujije mu igerageza, gusa abantu bacuruza iyo miti bagomba kuba bafite bigaragaza ko yemewe n'amategeko.

Imiti y'inyamaswa ishobora gupfunyikwa mu bintu bitandukanye. Harimo ibikarito binini ku buryo abantu bashobora kubyitiranya n'imiti y'abantu ariko imiti y'amatungo nayo iba ifite isuku, niyo mpamvu kuyitandukanya n'imiti y'inyamaswa bitandukanye.

Abantu benshi iyo boroye amatungo baba bagomba kuyitaho cyanecyane inkoko, ni itungo riba rigomba kwitabwaho rigahabwa imiti. Iyo umuntu ajyiye mu isoko ashobora kubona umucurizi ucuruza imiti y'amatungo iri mumacupa.

Amatungo aba akeneye icyo arya ariko na none nyuma y'ibyo abakeneye umuti mu gihe arwaye, niyo mpamvu hari amaduka aba abyemerewe agacuruza imiti yamatungo ariko nanone abayobozi baba barapimye iyo miti ku yujuje ubuziranenge.

Inyamaswa zo mu gasozi by'umwihariko inyamaswa ziba mu rugo ziba zikwiriye guhabwa imiti, iyo miti ifasha izo nyamaswa kubaho neza kandi zikirinda uburwayi, ibyo binini bishobora gufasha izo nyamaswa gukomeza gutanga umusaruro uhagije.

Abahinzi iyo bajyiye guhinga igihingwa runaka barabanza bakajyaho inama, gusa nanone abajyanama b'ubuhinzi m murenge cyangwa se mukarere bashobora kubejyera bakabagira inama y'uburyo bahingamo.

Abantu bakora igikorwa cy'ubuhinzi bagomba gukorera hamwe kugira bagire ibintu bigezaho . Na none kandi bagomba gukorana umwete by'umwihariko hari ibikoresho bashobora kwifashisha, urugero nk'umukobwa ashobora gufata isuka akagenda akajya guhinga kandi ibyo bimugirira akamaro.

Abaturage kugira ngo bakomeze kugubwa neza, hari igihugu kigira gutya kikabahereza imfashanyo zimwe mu mfashanyo bashobora guhabwa harimo ubworozi ni ukuvuga bakabaha itungo urugero nk'ingurube nabo bakiteza imbere.

Abantu benshi iyo bakoze igikorwa kijyanye n'ubuhinzi baba bizeye ko bazabona inyungu mu gihe runaka, abagabo nabo bashobora kwifatanya n'abandi mu gikorwa cy'ubuhinzi kuko ubuhinzi budakorwa n'abagore gusa.

Umudamu uri kumwe n'umukobwa we bagiye guhinga kugira ngo barebe ko hari ibintu bakigezaho ,ni ukuvuga ko baratera imyaka mu gihe runaka bakazayisarura bakabona ibyo kurya ,gusa nanone bashobora kujya guhingira abandi bakabaha amafaranga.

Iraragaza umugabo uri gusunika igare n'undi uri kumunikira inyuma bapakiyeho ibiti byavamo inkwi, igare ni igikoresho cyifashishwa mu kuba wagiza ibintu runaka ushobora kubigeza mu buryo bukoroheye.

Umuturage ashimishwa n'ibintu bitandukanye by'umwihariko umuhinzi yahinze ibishyimbo akabona biri gukura vuba vuba kubera ibishingirizo aba yarashizemo akabona biri gufata ibiti, arishima cyane akumva ko agiye kurya.

Iyo umuntu yahinze agomba kwita neza ku byo yahinze akabitera ku murongo kugira ngo abashe kubona inyungu ihagije bityo nawe yabashe kuba yakiteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Abaturage nabo bashobora kwifotoza yaba abahinzi bakaba bakifotoza bari mu byo bahinze bityo nabo bikagaragara ko bishimye kuberako baba bashimishijwe nuko igihe kiba kizagera bakarya.

Inka zifite amabara meza ziri hamwe kandi zibanye neza zirinze imirwano, buri nka irangajwe imbere no kurya cyangwa se gushaka ibyo kurya nubwo hari inka zimwe ziba zihaze.

Abantu benshi bakora uko bashoboye kose kugira ngo bakomeze kwita ku byo bahinze kandi bibagi akamaro, harimo nko kubikagira kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse n'ibihingwa byabo bikure vuba hanyuma babone ibyo kurya.

Inka ziba zikwiriye kurya ibyatsi bihagije kugira ngo nazo zitange umusaruro uhagije. Mu gihe inka iri gukamwa, iba ikwiye kongererwa ibyatsi kuko iba itanga amata kandi ayo mata aba afitiye akamaro nyirayo bityo aba akwiriye kuyitaho.

Inka ziba zifite abashyumba bazitaho buri gihe, bakazikuyakuya, bakaziha amazi ndetse bakazereka n'ahantu hanyaho hari ubwatsi zigomba kurishya, bityo bagatuma izo nyamaswa zibaho neza.

Abahinzi bahinga ibirayi bishimira kubona umusaruro bafite ugenda wiyongera. Mu gihe umuhinzi yahinze ibirayi aba yizeye neza ko azabona ibyo kurya ndetse agasagurira n'amasoko.

Mu iduka ushobora kuhasanga ibintu bitandukanye birimo nka karoti ndetse n'izindi mbuto umuntu arya kumva aranezerewe bityo agakomeza kwishimira ubuzima kandi izo mbuto ni ingenzi mubu buzima bw'umuntu bwa buri munsi.

Igihingwa cyitwa igishyimbo n'ikigori, iyo bikoranye akenshi usanga igishyimbo cyareze imbere y'ikigori kubera uburyo ikigori gitinda kwera, gusa na none mu gukura iyo bikura ubona bikurana, ariko iyo bigiye kwera igishyimbo gitanga ikigori.

Benshi bahinga igihingwa kitwa intoryi baba bagomba kuzitaho inshuro nyinshi bagashyiramo imiti ikwiriye kugira ngo zitange umusaruro uhagije bityo umuntu wahinze abone inyungu kandi yumve yishimye.

Mu gihe umuntu ahinze igihingwa bita ibigori, aba agomba kugihinga ku murongo, agashyiramo ifumbire rihagije, hanyuma icyo gihingwa na cyo kikamubyarira umusaruro, akarya akumva ahaze mu gihe cyeze.

Mu muririma uhinzemo imyaka abaturage bategereje kuzarya iyo myaka harimo imyumbati ndetse n'ibindi bimera ku buryo umuntu ashobora kubona ko umuntu wahinze afite inyungu kandi afite ubuzima bwiza bwahazaza.

Hari igihingwa kitwa dodo kiribwa n'abantu b'ingeri zose. Uru ruboga rwitwa dodo abantu bararukunda kubera uburyo ruryoha kandi abanyeshuri bakunda kuzihaha kuko zigura amafaranga make.

Hari ibihingwa umuntu ahinga agamijwe kuzabirya hari n'ibihinga umuntu ahinga agagamije kuzasarura hanyuma akagurisha akabona amafaranga yo kwifashisha. Bimwe muri byo bihingwa harimo nk'ikawa ndetse n'umuceri abahinzi bahinga kugira ngo bazabone amafaranga.

Aha ngaha ni mu murimo w'amashuri, ubona ko yeze, amashu ni ibiribwa byifashishwa mu ngeri zitandukanye, yaba mugutegura amafunguro yasita aya nimugoroba ndetse no mu marisitora atandukanye, ukaba wayifashisha.

Hari akarima k'igikoni kaba karunzemo ibitaka katarahingwamo imbuto, akarima k'igikoni kaba gafitiye akamaro umuntu kuko ashobora guhingamo imboga nyinshi mu butaka buto hanyuma akabona imboga zo kurya.

Ahantu bahinga imyaka iyo hakunda kuva izuba ryishi inshuro nysishi barahubakira kujyirango iryo zuba ritazica imyaka, gusa ntibibabuza kuba bahinga hanze bakajya bashyiramo amazi.

Ibigori bifitiye akamaro abaturage, ikigori kiraryoha kuko gishobora kuvamo intungamubiri zitandukanye, na none kandi ikigori gishobora gusheshwamo akawunga, bityo abantu bakakarya bakumva barishimye.

Abantu iyo bahinze imyaka baba bagomba guhurira hamwe bakayisarura, gusarura urebye ntabwo bivuna kimwe no guhinga kuko umuhinzi abayizi neza ko nasarura ari bubone ibyo kurya. Gusa mo hagati mbere y'uko byera aba yarabanje kubikorera kugira ngo bitange umusaruro.

Igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa gikundwa cyane kandi gitanga umusaruro mwinji aho abantu bashobora kugenda bagasarura umwumbati umwe ukaba wahaza umuryango bakaryakumva bamerewe neza cyane.

Ikigori ni igihingwa cyiza cyane gihingwa mu cyaro, kikaba gikundwa n'abantu batari bakeya kubera ko cyifitemo intungamubiri zituma umuntu agira imbaraga kandi ikigori rwose gikundwa n'abantu benshi cyane.

Igihingwa cy'igishyimbo n'ikigori ni ibintu abaturage benshi bo mu cyaro bakunda guhinga, kandi iyo bikuze babona inyungu nyinshi kuko baba barashoye amafaranga make, hanyuma bagahinga nabo bagahita bakuramo igishoro ndetse n'inyungu.

Ibigori bimeze neza bigaragara ko byabonye imvura ihagije ndetse n'ifumbire. Mu igihe umuhinzi yahinze ibigori bikamera neza yumva yishimye kuko aba yizeye ko igihe nikigera, azasarura akabona ibyo kurya ndetse agasagurira n'amasoko.

Ibigori n'ibihingwa bihingwa cyanecyane mu gice cy'icyaro, aho abaturage bahinga ibyo bigori ku bwinshi ibyo bigori bishobora kuvamo imbuto bakongera bakabihinga ubutaha gusa si byiza kongera kubihinga bitanyujijwe mu ruganda ngo biterwe umuti.

Hari imigezi itemba. Iyo migezi nayo ikwiriye kwitabwaho kuko ititaweho bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umuturage. Umuturage unyweye amazi mabi mu gihe yandujwe atemba, ashobora kurwara inzoka.

Mu gihe umuntu afite ibigori aba agomba kubyitaho agateramo umuti inshuro nyinshi kuko iyo atabyitaye bishobora kurwara, bikaba byahanuka ku bitiritiri byabyo biteze bityo agahomba.

Abantu iyo bahinze baba bizeye ko mu gihe runaka babona ibyo kurya. Niyo mpamvu hari abantu bahinga bagakomeza kwita ku byo bahinze uko byaba bimeze kose kugira ngo bakomeze kwizera ko mu gihe runaka bazabona ibyo kurya.

Hari ibyo kurya cyangwa se ibihingwa byitwa imyumbati aho umuntu abihinga mu butaka akagenda abikatira uko bigenda bikura ariko nanone iyo bigiye kwera bizana imizi hasi hasi bityo akaba yizeye ko iyo mizi ariyo azarya.

Hari ibintu umuntu ahinga kujyirango kujyirango azabone ibyo kurya hari nibindi umuntu ahinga kujyirango azabona amafaranga, hari ibyo uhinga ukabona bimeze niyo mpamvu hari ibyatsi bimeze nk'urubingo bigaragara ko byahinzwe kujyirango umuntu azabigurishe abone amafaranga.

Ahantu ubona ko hari ibintu byinshi by'ibicuruzwa, kandi bifitiye akamaro abaturage kuko harimo ibyo kurya. Ibyo kurya bifitiye akamaro abaturage kuko bashobora kubyifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu gihe umuntu yahinze aba yizeye neza ko ibyo yahinze azabirya, gusa nanone hari ibyo kurya umuntu ahinga atagamije kuzabirya ahubwo agamije kuzakuramo amafaranga, ibyo ni ukuvaga ko aba ahingira gukuramo amafaranga.

Ibigori bifitiye akamaro abaturage kuko bishobora gutanga ibyo kurya hanyuma abantu bakanezererwa bakabona ibyo barya, ibyo bagurisha, n'ibyo bahunika bityo bakagira umutekano w'igifu bizeye neza ko nta kintu gishobora gutuma bagira inzara.

Ibigori ni ibihingwa byiza cyane bihingwa cyane cyane mu cyaro, ibigori bikaba bifite akamaro cyane kuko bivamo intungamubiri nyinshi kandi abantu barabirya bakumva bameze neza bityo bakagira imbaraga zo gukora ibindi bintu basanzwe bakenera gukora.

Mu ishyamba iyo' umuntu ahagiye ahabona ibiti by'ubwoko butandukanye bifite amahwa ndetse hakaba n'ibiti bitagira amahwa. Mu ishyamba umuntu ashobora gutungurwa no kubona ahantu runaka hadateye ibiti ariko hari ibyatsi.

Ibiti bifitiye akamaro abaturage by'umwihariko iyo biri iruhande rw'inzu y'umuntu, bifasha iyo nzu gukomeza kumera neza kandi abantu barimo bagakomeza kubona akayaga gahagije bityo ubuzima bukarushaho gukomeza kuryoha.

Hari abantu benshi bakunda kubona ishyamba bakumva ko habamo ibiti gusa, gusa nanone si ibyo gusa bibamo gukamo n'inyamaswa zishobora kuba zarya ibyatsi na none kandi mu ishyamba ushobora kuhasanga inyamaswa nk'imbogo cyangwa se ugasanga ahantu ari ibyatsi umuntu yashyiramo itungo rye rikaba ryarya.

Inka ushobora kuyorora ukajya uyiragira mu ishyamba, gusa umuntu aba agomba kubyitaho, akazirikana umutekano w'aho hantu kuko ushobora kororera inka ahantu ukajya kuyiragira bakaba bayiba cyangwa se inyamaswa zikayirya.

Ifoto iragaragaza ishyamba karemano rifite ibiti bitandukanye ryiza cyane, ibi ngibi bituma rikurura ba mukerarugendo bakinjiza amadovize mu buryo butandukanye.

Hari amashyamba aba ateye ubwoba kuyagendamo bityo umuntu yayabona akaba yagira ubwoba ariko kandi ayo mashyamba biba bibujijwe kunyuramo uri wenyine cyangwa muri babiri mu gihe mudafite undi muntu ubishinzwe.

Aha ni ikibaya kirimo ishyamba risa n'irya kimeza, hari udusozi turiho ibyatsi gusa, ubona ko ari ahantu hateye neza cyane, watembera ushaka kuruhuka, ugatembereza inshuti zawe, ukaba wahakorera n'ubukerarugendo.

Mu ishyamba ushobora kubonamo umugezi utemba, umugezi inshuro nyinshi uba utembana amazi meza kandi kuyabona biba bishimishije ku buryo hari na ba mukerarugendo baza kuyasura bakishyura amafaranga.

Abantu batandukanye bashobora kugira uruhare mu gutuma ubuzima bwa bagenzi babo burushaho kumera neza, ariko nan none baba bakwiriye gufashanya hatitaye ku nzego barimo haba abasirikare, abadaso bose bakunga ubumwe bagakorera igihugu.

Ishyamba ni ingirakamaro cyane kuko rifitiye abaturage akamaro. Ishyamba rishobora kuvamo inkwi zo gucana , nanone ahantu hari amashyamba haba hari akuka keza abantu bashobora guhumeka, kandi hakaba hari n'akayaga.

Hano hari ikibaya kirimo, harimo icyayi, hakuno hari umuhanda, ruguru hari ishyamba, hakurya hari udusozi dutandukanye, ubona ko n'abantu basa n'abari kugenda bigira muri gahunda zabo.

Hari abantu benshi usanga bibaza niba mu cyaro hari amazu ariko nibyo mu cyaro haba amazu n'ibihingwa kandi abantu bo mu cyaro babayeho neza kuko baba bafite ahantu bashobora gukura akayaga keza. Hari ibiti bimeze neza cyane.

Mu ishyamba umuntu ashobora kuhabona ibintu bitandukanye birimo ibiti by'umwihariko abantu bari gukora umuganda, bashobora gukora isuku ahantu hatandukanye harimo no mu ishyamba, na none kandi abantu b'ingeri zose harimo n'abasirikare bashobora kwifashisha ibikoresho bitandukanye bakora umuganda.

Mu ishyamba ushobora kuhabona ibiti by'ubwoko butandukanye, ibyo biti biba bishimishije kubireba kandi abantu benshi bishyura amafaranga yabo bakajya kubireba, ubwo rero niba uturanye n'ahantu hari ishyamba uri umunyamahirwe.

Abantu benshi bakunda gutura ahantu hagaragara neza gusa hari bakunda kubaka ingo zabo mu mashyamba maremare. Ariko ibyo si byiza kuko bishobora gutuma inyamaswa zisagarira umuntu zikaba zamurya.

Mu mashyamba uzahasanga ibiti by'inganzamarumbo, amashyamba adufitiye akamaro kuko kuri umwuka mwiza duhumeka, tukaba twabona akayaga keza, bityo tukishimira ubuzima kandi twumva tunyuzwe no kuba turi ku isi.

Ishyamba ririmo ibiti by'inganzamarumbo biryoheye ijisho kubireba, ibyo biti bikaba bishobora kuvamo ibikoresho bitandukanye harimo intebe ameza ndetse n'ibindi mu gihe imbaho zabajijwe n'umuntu w'umuhanga.

Amashyamba afitiye abaturage akamaro kuko atuma babona umwuka mwiza bahumeka. Mu gihe cya mujyitondo umuntu abona mu mashyamba harimo ibicu ibyo bicu bikaba bigaragazako ari mu gitondo.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane gusa kiravuna kugihinga, kuko biba bisaba gushyiramo umuti uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo ziticwa no kuba ubusimba bwajyaho hanyuma umuhinzi akaba yahomba.

Umuhinzi yahinze imboga ari kuzitaho ariko na nonene agomba gusaruramo izo arya kuko harimo izeze, ubwo rero mu gihe umuntu yahinze ntagomba kugira ikibazo kuko aba yizeye ko mu gihe runaka gitoya ashobora kurya.

Birashimisha cyane kubona umuhinzi apacyira ibintu yahinze hanyuma abaguzi bakaza bakamugurira aba yumva yifitiye icyizere kuko abona ibindi bintu acyeneye kandi ibyo ni ingenzi ku muhinzi.

Umuntu arimo arasoroma ikawa akaba yambaye umupira imbere, inyuma yambaye igitaburiya cy'ubururu n'ingofero, ibi bigaragaza yuko aba yirinda kugira ngo ibyo arimo asoroma bitamwangiza.

Inyanya, ibigori ni ibiribwa byiza cyane bikundwa gusa ntiwabitekana, ubitekanye ukavanga ibigori ndetse n'inyanya ukabigira isosi iyo ntiwayinywa, ni yo mpamvu umuntu agomba kubyirinda.

Inanasi iraryoha cyane by'umwihariko mu gihe umuntu ayiguze aba yumva afite ifemba ryo kuyirya ariko kandi hari n'izindi mbuto umuntu ashobora kujya mu iduka akagura, harimo nk'ibinyomoro ndetse n'ibindi bintu nk'imyembe n'amatunda, abantu benshi cyane cyane abakobwa nibyo bakunda.

Aha hari umu mama uri kubagara inanasi . inanasi ni igihingwa, ni igihingwa kigufasha kuba wakwiteza imbere, ukabona amafaranga ukareba abanyeshuri ku ishuri bakiga neza.

Ipapayi ni urubuto rw'ingenzi rukundwa n'abantu benshi cyane. Abantu bakunda amapapayi yaba abana ndetse n'abantu bakuru cyane cyane ko ipapayi yiganjemo intungamubiri zifasha umuntu gutuma akomeza kugubwa neza.

Inanasi ni igihingwa gikundwa cyane, akaba ari urubuto rufite amazi aryoheye rujyira isukari yaba abantu b'ingeri zose bakunda abana bakuru ndetse n'abandi bantu bari mu nzego z'ubuyobozi zikomeye bakunda inanasi.

Mu isoko ushobora kuhasanga imbuto zitandukanye, zirimo karoti ndetse n'izindi mboga umuntu ashobora kugura mugihe akeneye guteka, akagenda akaziteka akumva amerewe neza we n'umuryango we.

Ipapayi ni urubuto rukundwa n'abantu benshi by'umwihariko abakiri batoya aho bumva ko harimo intungamubiri zishobora kubafasha ndetse rukaba rugi n'isukari iryoshye buryo umuntu ukiri muto yifasha isukari yumva iryoshye cyane.

Mu gihe umuntu yateye imbuto aba agomba gukomeza kuzitaho uko bwije nuko bukeye azikorera ibisabwa byose kugira ngo zikomeze kubaho neza bityo nawe azabone inyungu mu gihe kitarambiranye kandi nziza.

Umuntu wahinze indabo kugira ngo ngo azazigurishe, hanyuma abe yabona amafaranga yo kugura ibindi bintu akeneye birimo nk'ibyo kurya, imyambaro ndetse niba anakodesha akabona uko yakwishyura ubukode.

Haragaragara umumama uri mu ndabyo asa n'uri kuzitaho ubona ko zimeze neza zitaweho zagiye buso impamvu zakozeze nizo ni uko zimeze neza cyane. Indabyo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi.

Iyo umuntu agiye mu isoko ry'imbuto abona imbuto zitandukanye, zirimo ibitunguru, ndetse n'izindi mboga zitandukanye. Ababyeyi baba bakwiriye kugenda bagahaha izo mboga, kuko bazifashisha zigatuma abana babo bakura neza.

Imbuto ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, hari ibiti byinshi byera imbuto ariko nanone hari ibiti byera imbuto ziba ziryoshye ku buryo umuntu zirya imva yishimye. Imbuto zikwiriye kurindwa ahantu ziri kuko zikunda kugurishwa zikavamo amafaranga ashobora kwifashishwa mu kugura ibindi bintu.

Ikiyaga kirimo amazi meza y'urubogobogo kandi umuntu wese yakwishimira kugitembereraho akareba ukuntu amazi asuma, hafi y'icyo kiyaga hariho ikiraro, abantu baje kureba ayo mazi bahagararaho.

Hari abantu bateye imbere mu bijyanye no kuhira imyaka. Aho bashyira amazi mu myaka yabo mu buryo bworoshye kandi bidateza ikibazo bityo bakabona umusaruro uhagije mu gihe cyagenwe.

Iyo umuntu ahinze aba yizeye neza ko azasarura by'umwihariko ibihingwa biri impanda y'amazi ntibigira ikibazo cyo kuba byakuma kandi iyo byumye umuntu aba yabigizemo uruhare kuko afite uburyo bwo kuba yakuhira.

Abahinzi bakoresha uko bashoboye kose kugira ngo imyaka ikomeze kumera neza. Harimo kuhira ibyo bahinze bityo umusaruro wabo ukiyongera kandi bagatera imbere mu byo bakora hanyuma bakaba basagurira n'amasoko.

Mu gihe umuntu yahinze imyaka aba agomba kuyitaho by'umwihariko mu gihe cy'izuba, agashyiramo amazi ahagije kugira ngo iyo myaka ibashe gukura, niyo mpamvu umugore arimo kuhira imyaka ye y'imboga kugira ngo ibashe gukura vuba.

Umuntu yahinze imyaka agomba gufuhira inshuro nyinshi cyane cyane mu gihe cy'izuba, agashyiraramo amazi ahagije, nyuma yayo mazi nayo agafasha imyaka gukura bityo umuntu wahinze akabona inyungu mu gihe gitoya cyangwa se cyihuse.

Hano ni mu murima w'imbuto, harimo imigezi furazi mbuto, imbuto zimeze neza cyane kuko ntizigeze zihura n'izuba zabonye amazi ahagije.

Mu gihe umuntu yahinze ibigori aba agomba gukora uko ashoboye kose akabyitaho. By'umwihariko ku bijyanye n'amazi, akabiha amazi ahagije kugira ngo bikomeze kugubwa neza cyane cyane mu gihe k'izuba abyitaho, abipfurira cyangwa se abivomera.

Baragaragaza umusore uri gufuhira imbuto, iyo gufura imbuto bituma imbuto zawe ziticwa n'izuba zihora zitoshye, bityo zikaba zagira imikurire zikaba zatanga n'umusaruro uhagije.

Amazi hashobora guturuka ahantu hatandukanye ariko akamaro k'amazi gashobora kuba kenshi by'umwihariko, amazi akoreshwa mu kuhira ibihingwa kandi iyo ibihingwa byuhiwe neza bigira umusaruro uhagije.

Umwana hari inzu igaragara ko ari yo itanga urugomero rw'amazihino, hari umuhanda wibitaka hirya hari ibihuru.

Ahangaha hari umuntu kuhira ibigori avana amazi mu kidendezi ajyana mu murima, hino hari umugabo uri kumufotora, ahangaha bituma ibihigwa bibonye amazi, bituma bikura neza nta zuba.

Kuhira imyaka ni igikorwa cyiza cyane kuko gituma imyaka yera vuba ndetse umuturage akabona umusaruro mu gihe cyihuse kandi umusaruro ukwiriye, mu gihe umuntu yuhiye imyaka aba yiteze ko igihe nikigera azabona inyungu.

Iyo umuntu ahinze igihingwa aba agomba kucyitaho, akaba yashaka amazi akakishyiraho kugira ngo kibashe kuba cyamwungura, bityo nawe abashe kuba yakiteza imbere mu buzima bwe.

Mu gihe umuntu yahinze imyaka aba agomba kuyitaho ayifuhira kenshi kugira ngo iyo myaka iticwa n'izuba hanyuma akabaya yabura uko asarura ngo ajyane ku isoko abone amafaranga.

Uyu ni umugabo ari gufuhira amashu, hariya iyo ifuhiye amashu bituma akura neza, ibi bikarinda kuba yakuma bityo akira neza cyane, agatanga umusaruro uhagije.

Imirasire y'izuba ifite akamaro cyane kuko ishobora kwifashishwa mu gutuma abantu bakora amazi mu kiyaga, hanyuma bakuhira imyaka yabo. Ibi bikorwa mu gihe iyo mirasire y'izuba ikoresha moteri, hanyuma moteri igapomba amazi ikayajyana aho agomba kujya.

Kuhira ni byiza cyane kandi bifitiye akamaro ababikora, niyo mpamvu mu gihe umuntu yuhira agomba kubikora yishimye, umuntu urimo kuhira imboga ategereje yuko yazasarura imboga nziza mu gihe cy'izuba kubera ko yashyizemo amazi mu gihe cy'izuba, bityo azabona inyungu.

Iyi foto iragaragaza igihombo kiri kuvamo amazi kiyobora, amazi mu myaka iri mu gishanga, urabona ko imyaka imeze neza. Ibi ngibi bituma imyaka idahura n'izuba, igakura imeze neza nta kibazo cy'izuba yahuye nacyo.

Kugira ngo imyaka cyangwa se ibimera bikure haba hakeneye umuntu ubyuhira, bityo mu gihe cy'izuba ntibibashe kuma, ibyo iyo bikozwe bituma umuntu wahinze ibyo bimera agira inyungu nyinshi kandi no mu gihe cy'izuba akabona ibyorya.

Inyubako yo mu cyaro akenshi igomba kuba itandukanye n'inyubako yo mu mujyi. Aho abantu batuye mu cyaro bubaka utuzu dutoya tugakikizwa n'urutoki rwinshi cyane, rugaragaza ko aho ari mu cyaro.

Ikibaya cyiza kirimo ibyatsi bitoshye ndetse n'amashyamba. Amashyamba afitiye akamaro abaturage kuko atuma babona umwuka mwiza bahumeka ndetse bashobora no kuyifashisha abaha ibiti byo gucana ndetse abafitiye akamaro ko kubakururira umwuka mwiza .

Mu misozi iyo uri kuhareba uba ubona hahinze, harimo imyaka, urutoki, ibiti ndetse n'ibindi, kubona aho hantu biba bishimishije cyane kandi rwose haba hagomba kwitabwaho.

Iyi foto iragaragaza ahantu hari ibihingwa bitandukanye, harimo ibiti, harimo ahandi hantu hari amazu hakurya haciyemo amatarasi, bahise bacamo amatarasi birinda isuri.

Ibiti birifashishwa cyane mu gukora ibikorwa bitandukanye bishobora guteza imbere umuturage harimo ubutuma abona imbaho zo gucana ndetse akaba hatuma ahabona n'imbaho zo kwifashisha mu bikorwa bitandukanye birimo gukora intebe.

Ikirere kigaragara nkaho ari mu masaha ya nimugoroba cyangwa mugitondo. Aho akazuba kaba karenga cyangwa se kareguka. Icyo gihe usanga imisozi ikeye kandi ibiti bimeze neza cyane.

Ibiti bifitiye akamaro umuturage. By'umwihariko abaturage batuye hafi y'amashyamba babona akayaga keza umwuka mwiza wo guhumeka kandi ibyo bituma bakomeza kumva bameze neza mu mubiri wabo bityo bakishimira ubuzima.

Mu ishyamba umuntu ashobora kubonamo ibiti by'inganzomarumbo biba ari byiza cyane ku buryo kubireba bishobora kuba bishimishije, ibyo biti bishobora kugira uruhare mu gutuma akayaga keza kaboneka, kandi mu ishyamba ushobora no kuhasanga imigezi.

Inyubako zo mu cyaro ziba zitandukanye n'inyubako zo mu mujyi kuko usanga inyubako zo mu cyaro akenshi zubatse mu misozi kandi ubona atari byiza ko bishobora kuba byatuma bamwe ubuzima bwabo bujya mu kaga bakabahatakariza ubuzima.

Umusozi mwiza uriho ibyatsi bitoshye kubireba binogeye amasoso, kandi rwose birashimishije kubona abaturage bahatuye bose bishimye bafite akanyamuneza, hakurya urabona ko hari ibiti ahantu hagaragara ko haba hari n'akayaga keza.

Gutura mu kajagari ni bibi, ariko na none iyo abantu batuye ku mudugudu, baba bishimira uburyo batuye, kuko mugenzi we ashobora gufasha mugenzi w'undi, na none kandi ibi bigaragara cyane cyane mu mujyi, aho abantu baba baturanye ari benshi.

Inyubako zo mucyaro ziba zitandukanye n'inyubako zo mu mujyi, kuko inshuro nyinshi usanga inyubako zo mu cyara ziba zisakaje amategura, kandi ahantu henshi haba hari urutoki bigaragara ko ari mu cyaro.

Mu ishyamba wasanga ibiti by'inganzamarumbo bifite akamaro kanini cyane mu gutuma ubuzima bw'umuturage bukomeza kugubwa neza. Harimo kumuzanira akayaga keza ndetse no gutuma abona imbaho akenera mu buzima bwa buri munsi.

Inka zigaragara ko zimeze neza zariye kandi zirahaze ziri mu bwatsi butoshye kandi rwose nazo zirishimye kuko zifite ibyo kurya kandi zitanga umukamo mu kuvuga ko inka yabyaye itanga umukamo.

Inkoko zifitiye akamaro aborozi kuko zitanga amagi, hari inkoko zishobora gutanga amagi mu gihe gitoya n'inkoko zitanga amagi meza urugero nk'izikunze kwitwa inyarwanda ariko kubera ko zidatanga amagi menshi ntabwo zikunze kororwa.

Inkoko zikiri nto ziba zikeneye kwitabwaho cyane, mu buryo bwo kuzitaho zigomba kugaburirwa neza, bityo zikabasha gutanga umusaruro mu gihe cyagenwe, kandi umuntu uzoroye akabona inyungu ashaka.

Hano hari inka bita inyambo, hari abaveterineri bari kuzirebera, bari kuzikingira, no kuzitera inshinge.

Ihene zifite ibara ry'umweru kandi zibanye neza nta hene iri kwica indi kandi kuzireba birashimishije abantu babona amahene afite ibara rimwe bashobora kubona zisa kandi koko nibyo zirasa.

Ihene ni inyamaswa akenshi yororwa n'abantu akaba ari itungo ryo mu rugo, iryo tungo rikaba rifitetiye abaturage akamaro, hari ihene zishobora gukura zikagira amahembe maremare n'izishobora kutayagira.

Umuntu iyo yoroye inka agomba kuyitaho inshuro nyishi kujyirango ikomeze kugubwa neza ayiha isasiro rihagije kujyirango ikomeze kuva imeze neza kandi ibyo biba bishimishije kuko iyo yitaweho neza itanga umusaruro uhagije.

Abaganga b'amatungo aba ari inzobere mu bijyanye no kuvura amatungo niyo mpamvu harahantu haba hubatswe bajyenda bashyiramo amatungo bakayasuzuma mu gihe arwaye bakayavura bakurikije uko arwaye bityo agakomeza kumererwa neza.

Ubworozi bw'inka ni ubworozi butanga inyungu mu gihe gitoya kandi inka abashumba barazikunda kubera ko zibaha amata nabo baba baziragiye. Ubwo rero mu gihe umuntu afite umushumba aba akwiye kumuha amata kugira ngo aragire inka neza.

Inkoko zishobora guhurira hamwe kugira ngo zirye, iyo ziriye rero zibona intungamubiri hanyuma na zo zigatanga umusaruro uhagije bityo inkoko zishobora gutanga amagi hanyuma umuntu uzoroye akishima.

ihene zibamo amoko menshi ndetse zigira amabara atandukanye arimo iz'umweru, izifite amabara y'umukara, mutuku, gusa ihene zose zigira uruhare mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza kuko umuntu ashobora kuyigurisha ikamukenura.

Abantu benshi boroye inkoko baba bagomba kuzitaho bakaziha ibyo kurya kugira nazo zibashe kuba zabaho hanyuma zitange umusaruro, bityo umuntu uzoroye wihagije yiteza imbere.

Abantu benshi iyo bashaka kugira iterambere ryihuse borora inkoko kandi izo nkoko zirabafasha cyane gusa nanone kugira ngo babone inyungu muri izo nkoko bakwiye kuzigaburira bihagije bityo zigatera amagi.

Ibinyampeke biva mu bihingwa bitandukanye kandi bishobora kugira uruhare mu gutuma ubukungu cyangwa se iterambere ry'igihugu ryiyongera, ibinyampeke bishobora kuba ari iby'ingano, bishobora kuvamo ibindi bintu umuntu yarya.

Imifuka bigaragara ko irimo ibyasaruwe bityo umuntu uyifite akaba azishimira kurya ibyo bintu birimo kandi rwose biba bishimishije gusarura ukabika ahantu heza.

Mu gihe umuntu yahinze aba yizeye ko azarya gusa na none hari ibyo kurya umuntu ahinga ha akaba yakoramo imbuto mimbere izo mbuto akaba yazireka abandi bininyujije mu kuzifata mu kiganza.

Ikiganza gifite imbuto mu ntoki ni ukuvuga izo mbuto zikaba zaravuye mu binyampeke bitandukanye zishobora kuba imbuto z'ingano kandi ibyo binyampeke bishobora kugira akamaro kuko umuntu ashobora kubirya akumva amerewe neza.

Abantu benshi iyo bagiye mu isoko baba bizeye ko bashobora kugura ibintu bitandukanye, bityo bakaba babona ibyo barya cyangwa se ibyo bahahira abana babo bakumva barishimye. Ubwo rero nujya mu isoko uzabe ufite amafaranga yo kugurira abana bawe imbuto.

Umuntu iyo yahinze yishimira gusarura, umukobwa arimo arareba imifuka yuzuye ibigori akumva arishimye cyane, bitewe n'amafaranga agiye kubona, araba ari menshi cyane, kuko imifuka yuzuye ibiro byinshi by'ibigori.

Abantu benshi b'abahinzi barabizi yuko mbere y'uko umuntu ahinga cyane cyane imbuto, abanza kugenda akareba aho zagemeswe, hanyuma agakuramo imbuto nziza, akazizana akazizihinga, niyo mpamvu umukobwa arimo kuhira imbuto zagemetswe ahantu kugira ngo igihe ni kigera zizaterwe.

Umuntu w'umuveterineri wambaye itaburiya y'umweru wambaye undi mwambaro mu mutwe, arimo arakora utuntu tumufasha gukomeza kuzirikana uko yakwita ku matungo biryo iterambere mu baturage rikiyongera.

Abaganga b'amatungo baba bazobereye mu kuvura kandi byo bishobora gutuma babona amafaranga, kuko bavuye itungo umuturage ufite iryo tungo abishyura amafaranga bityo nabo bakaba bakiteza imbere.

Inka ni itungo ryiza ritanga umukamo, gusa kugira ngo ritange umukamo bisaba kuba ryitabwaho ryahawe ibikenewe byose harimo n'ubuvuzi, niyo mpamvu barishyira abaganga baba bambaye inifomo bakita kuri iryo tungo.

Inka iyo yitaho neza igahabwa ubwatsi, ikaragirwa, ishobora gutanga umukamo mwinshi cyane bityo abantu bakabona amata. Ibyo bishobora gutuma irwingira mu bana rigabanuka kuko baba bafite amata ahagije.

Abadamu na bo bashobora kuvura amatungo mu gihe babyigiye, yambara ga hanyuma akaba yakora mu nka akamenya ko irwaye, yaba ari umudamu cyangwa se umugabo ntabwo kuvura inka bigendera ku gitsina cy'umuntu.

Abaganga bavura amatungo baba bazi ibintu byinshi cyane ndetse ntibazi n'ibikoresho umuntu ashobora kwifashisha mu gihe avura amatungo bityo bakaba babikoresha bavura amatungo. Aha hari mudamu wambaye itaburiya y'umweru yiteguye kuvura rwose.

Abaganga b'amatungo bayitaho cyane. Mu gihe itungo rirwaye abantu bagirwa inama yo guhita bazana umuganga w'amatungo wabyigiye akarivura. Ni yo mpamvu abantu babyigiye ni ukuvuga bize ibijyanye no kuvura amatungo bakunda kubona akazi cyane.

Abaganga b'amatungo bagomba kuba barabyigiye neza. Hari uburyo bwinshi abantu bakoresha kugira ngo bavure inka zabo. Harimo kuzishyira ahantu hazitiye neza kugira ngo zitinyagambura hanyuma muganga akabona uko azivura.

Abaganga b'amatungo baba bazi ibintu byinshi bashobora gukora kugira ngo amatungo yabo akomeze kugubwa neza, ni yo mpamvu hari ahantu haba harabugenewe hashyirwa imyaka ariko iyo myaka ikaba igenewe kuribwa n'amatungo.

Abantu boroye baba bagomba kumenya uko bakwita ku matungo yabo, by'umwihariko mu gihe umuntu afite inkoko ashobora gusanga umuganga w'amatungo. Ni ukuvuga abitwa abaveterineri akamufasha kumenya uko yakwita kuri izo nkoko.

Abantu bakora ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo baba bagomba kwita ku mwuga wabo bagahora bimenyereza, by'umwihariko aba bagomba kuba ari abanyeshuri banyuze mu ishuri bakaba barahawe ubumenyi bw'ibanze.

Itungo ryitwa inka riba rigomba kwitabwaho cyane mu gihe rivuka kuko rititaweho neza rishobora gupfa, bityo umuntu woroye izo nka akaba yahura n'igihombo gikabije kuko inka zihenda.

Mu gihe umuntu akorera hamwe n'undi bashobora kugera ku bintu byinshi, by'umwihariko abantu bavura amatungo no gukorera hamwe bakareba ukuntu bavura itungo rirwaye bareba uburyo bapima hanyuma bagakora ibyo bazi.

Abantu biga ibijyanye n'ubuganga bakwiye gukora imyitozo buri gihe kugira ngo ibafashe kugira ibintu bamenya bityo nibagera mu kazi bazagire ibintu bakora neza no kugira ngo bagire ibyo bangiza, nanone kandi bakunda kuba bambaye imyenda y'imyeru ibigaragaza.

Hariho ibikoresho abantu bifashisha kugira ngo bagire ibyo bageraho mu buzima bwabo cyane cyane abaganga. Bashobora kwifashisha igikoresho kitwa microscope bareba uburwayi bw'umuntu kugira ngo babone uko bamuvura bityo akire vuba.

Abantu baba bazi ibintu byinshi ariko abaganga b'amatungo nabo baba bafite ubumenyi bwihariye bafite, umuganga wambaye ikanzu y'umweru, arimo arita ku binini cyangwa se imiti y'amatongo.

Inyamaswa bita ingwe zikunda kwibera mu biti izo nyamaswa ni mbi cyane inyamaswa z'inkazi zikunda guhiga mu buryo bwa kinyamaswa kandi abantu barazitinya cyane kuko ziba zifite imbaraga nyinshi.

Hari inyamaswa ishobora kugenda ikicara hejuru ku giti cyane by'umwihariko impyisi ishobora gukora ibyo bintu ukaba utamenye yuko ari impyisi gusa umuntu aba agomba kwitonda mu gihe agenda ahantu nk'aho kuko inyamaswa zishobora kumugirira nabi.

Inyamaswa zo mu gasozi nazo zishobora kurwana kandi iyo mirwano ishobora kugira ingaruka ku nyamaswa zimwe na zimwe. Inyamaswa ifite imbaraga ishobora kurwana n'indi mu gihe bibaye ngombwa ko zijya impaka, hanyuma imwe ikaba yakica indi hakaba hazamo n'urupfu.

Hari inyamaswa z'inkazi cyane mu ishyamba zibamo harimo nk'ingwe, imbogo, imvubu, inzovu ndetse n'intare ariko by'umwihariko intare yo ni agatangaza kuko ari umwami w'izindi nyamaswa zose.

Hari inyamaswa umuntu ashobora kubona akikangamo bitewe n'uburyo amahembe yazo abateye, izo nyamaswa ziba zifite amahembe umuntu ashobora kwicaramo cyangwa se indi nyamaswa ukaba yakiryamiramo ikumva nta kibazo wenda ari nk'inyoni ikagira ni icyari.

Inyamaswa ni ingenzi mu buzima bw'abantu kubera ko by'umwihariko inyamaswa nk'intare, abantu benshi bakunda kuva hanze baje kuzisura. Niyo mpamvu mu gihe umuntu abonye inyamaswa yataye aho iba agomba guhita abimenyesha ubuyobozi kugira ngo isubizwe aho iba.

Inyamaswa bita ibitera ni inyamaswa ushobora gusanga i Nyagatare kuko zikunda kugenda no mu mijyi hose kandi izo nyamaswa ziba zifite imico ijyakumera nk'iy'abantu ku buryo umuntu utabizi zimutangaza.

Hari utunyamaswa duto tuba mu mashyamba dukunda guhigwa cyane, gusa na two tubaho kandi inshuro nyinshi ntidukunda kuboneka, niyo mpamvu natwo dukwiye kubungwabungwa kuko dufitiye akamaro igihugu.

Hari ibinyoni biba mu mazi bikunda koga cyane, ibyo binyoni amazi abifatiye runini kuko bikundwa kubamo cyane, niyo mpamvu kubyica atari byiza.

Hari ibinyoni binini cyane biba bifite amababa akomeye ku buryo kubireba biba bishimishije, ibyo binyoni akenshi ba mukerarugendo bakwiye kujya ahantu biri bakabifotora hanyuma bakaba bakifashisha amafoto yabyo mu gukora ibindi bintu.

Hari inyamaswa ziba mu mashyamba ureba ukabona nawe ujyize ubwoba, inyamaswa ifite amaso ajya kumera nkay'umuntu warakaye ikaba iri kurabya ururimi bivuzeko uyejyereye ikaba yahita igutamira ukaba wapfa bityo rero ni ukuzirinda.

Inyayamaswa zifitiye akamaro abaturage ndetse n'igihugu muri rusange kuko iyo ba mukerarugendo bazisuye batanga amafaranga yitwa amadovize bityo umuntu akabona icyo akeneye binyuriye muri ayo mafaranga.

Ingwe ni'inyamaswa zikunda kwibera mu giti cyane cyane mu gihe zitegereje umuhigo, iragenda ikicara hejuru hejuru cyane mu igiti, igategereza ko umuhigo uza hanyuma ikagenda ikawufata bitagoranye.

Izi ni inyamaswa zo mu gasozi zikunda kujya inshuro nyinshi zigatembera ahantu hamwe, inyamaswa zirimo amabara y'umweru n'umukara, zirimo ziywa amazi kandi zose urabona ko ziteguye kuba zanywa amazi.

Hari inyamaswa yitwa imvubu, imvubu ni inyamaswa zikunda kwibera mu mazi. Akaba ari ibinyamaswa binini kuburyo biba biteye ubwoba gusa biba bifite iminwa itangaje kandi umuntu ubibonye ashobora kugira ubwoba.

Mu ishyamba ushobora kuhasanga inyamaswa z'ubwoko butandukanye, izo nyamaswa zikaba zishobora kuba zifite akamaro kenshi mu gihugu, harimo nko gutuma abantu babona amafaranga kuko abakerarugendo baza kuzisura bakishyura amafaranga menshi, igihugu kikabona ayo gikoreshashwa.

Inyamaswa z'agasozi zikunze kugaragara zimeze nkizatera umuntu ubwoba kandi nibyo umuntu atitonze zishobora kumurya bityo akaba yabura ubuzima, niyo mpamvu mu gihe umuntu afite inyamaswa agomba kuyitondera byagera ku nyamaswa yo mu gasozi bikaba akarusho.

Mu ishyamba haba harimo inyama z'inkazi, urugero nk'ingwe iba yasamye ifite amenyo ahagaze neza neza ku buryo iba yiteguye guhita irya indi nyamaswa mu gihe iyobye igaca mu nzira iyi nyamaswa iba irimo.